Akazu, ni akazu gashinzwe gutanga cyangwa gufasha abaturage mu ngendo, aho batanga ikarita, noneho bakayifashisha bakoza mu modoka kugira ngo bishyure amafaranga y'urugendo, utu tuntu tukunze gukoreshwa ahantu mu mujyi, aho umuntu akoza ikarita ku modoka ikamugeza mu duce atuyemo.

akazu kubatse mu byuma cyangwa kakozwe n'ibyuma, ni aki ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN hariho ibirango byayo bigiye bitandukanye mu mabara y'umuhondo ni imbere harimo umuntu uri gufasha abaturage baje bamukan bimwe mu bicuruzwa batanga harimo gutanga amanite, kubitsa, kubikura, ndetse n'ibindi.

Abantu batatu bicaye, harimo abagabo babiri n'umudamu umwe, imbere yabo hateretse amazi ndetse n'ibindi bikoresho n'abantu bakorera ikigo cy'itumanaho cyitwa Airtel, icyo cyapa kiri inyuma yabo aho bicaye nk'abategereje gutanga ikiganiro cyangwa bicaye imbere y'abantu.

Akazu k'ikigo gishinzwe itumanaho ka Airtel. Ni akazu kaba gasa umutuku, kariho icyapa cya Airtel, aho gashinzwe kuba harimo gutanga bimwe mu bicuruzwa bya Airtel, harimo gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Inyuma yaho gato hari akandi kazu gasa icyatsi.

Inzu yubatse yubakishijwe rukarakara cyangwa amatafari asanzwe. Isakaje amategura kandi igice kimwe iteye umucanga ahandi ntago iteye umucanga. Hariho icyapa k'ikigo k'itumanaho cyitwa Airtel, aho gitanga kimwe mu bicuruzwa bitandukanye, nko gucuruza amayinite kohereza amafaranga n'ibindi. Mbere yaho hari undi muntu wambaye umupira w'umuhondo.

Akazu k'umuhondo kariho ibyapa byanditseho MTN. Ni ikigo k'itumanaho gitanga bimwe mu bicuruzwa bitandukanye, harimo nko gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga, harimo umukozi ushinzwe kwakira abakiriya bagana icyo kigo akabaha bimwe muri ibyo bicuruzwa, kandi mbere yaho haparitse n'ikinyabiziga cya moto.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN no hepfo yaho gatodo hari akande k'ikigo cyitwa Airtel, imbere y'akazu k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, hicayeho umuntu ushinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa bya Airtel, wambaye impupuzankano z'umutuku.

Umutaka w'umuhondo uriho ibihangano by'ikigo k'itumanaho cya MTN, munsi y'aho hari umuntu wicayemo wambaye impuzankano nanone z'ikigo cya MTN umutaka ushinze mu gakoresho k'umutuku, hepfo y'aho gato hari akandi kazu k'ikigo cya MTN kandi hakaba hicayeho umuntu wambaye impuzankano z'ikigo cya Airtel.

Akapa gasa umuhondo, kandiditseho ikigo k'itumanaho kitwa MTN, ni akantu kavamo simukadi yifashishwa mu guhamagara no kugura ibikoresho cyangwa mega yifashishwa murandasi, ni cyo gashinzwe.

Inzu y'ikigo cy'itumanaho cyitwa Airtel, aho itanga ibicuruzwa bigye bitandukanye, harimo gutanga amayinite yo guhamagara, kubitsa kubikura ndetse n'ibindi, harimo n'abantu bari kugenda bayica imbere ndetse n'abandi bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abakozi b'Ikigo k'itumanaho cya MTN bari ahantu mu kazu kameze nk'akaziga cyangwa nk'umutaka kariho ibyapa by'Ikigo cya MTN, aho bashinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa by'Ikigo cya MTN harimo gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Akazu kariho ibyapa cyangwa ibirangantego by'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN ndetse n'umutaka w'icyo kigo cya MTN, mo imbere harimo umuntu ushinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa bya MTN, harimo gutanga amayinite, kohereza amafaranga, kubitsa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu iriho icyapa ndetse n'amagambo agaragaza ikigo gishinzwe ubucuruzi bw'amafaranga kitwa Banki ya Kigali, aho itanga ibicuruzwa bitandukanye harimo amafaranga, mu kuguriza amafaranga kubika amafaranga y'abaturage ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abakozi b'Ikigo k'itumanaho kitwa Airtel barimo gutanga amatelefoni. Ni abagabo babiri, umwe bamwambitse umupira w'Ikigo k'itumanaho cya Airtel bameze nk'abantu bari kumuha igihembo yatsindiye.

Umutaka w'umuhondo uriho amagambo y'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Munsi y'uwo mutaka hari umuntu uhicaye, uba ushinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa bya MTN, harimo gutanga amainite, kubikura, kubitsa ndetse no kugurisha simukadi za MTN. Inyuma yaho hari izindi nyubako ziberamo ibindi bikorwa bitandukanye.

Imibare yanditse ku kinyabiziga. Ni imibare ijana na mirongo inani na kabiri. Bishatse kuvuga ko baba bari kukubwira ngo ukande akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri kugira ngo ubashe gukoresha momo yawe. Ibi ngibi bikunze kuba ku kigo k'itumanaho cya MTN. Aho ukanda iyi mibare kugira ngo ube wakura amafaranga yawe ari kuri Mobile Money.

Umuntu uhagaze imbere yabandi, afite igikombe kiriho imidari, abantu bicaye imbere ye barimo gukoma amashyi. Hari n'undi mukobwa umuri inyuma urimo kugenda.

Abantu bicaye hamwe, harimo abagabo n'abagore barimo kuganira, ni abantu bameze nk'abari mu itsinda, aho baganira ibigomba gukorwa cyangwa bagahuza amafaranga kugira ngo bagurizanye kandi batere imbere.

Inkoko nyinshi zahurijwe ahantu hamwe, birasa nk'ubworozi bw'inkoko aho umuntu yazigeneye inzu zigomba kubamo kandi agashyiramo n'ibyo zigomba kurya, arimo kugenda akuramo amagi ziba zateye.

Inzu y'ikusanyirizo ry'amata. Ni ahantu abantu bafite umusaruro w'amata cyangwa abantu bakama inka bagasagurira n'isoko, aho bajyana amata kugira ngo akusanyirizwe hamwe, noneho hatange umusaruro cyangwa bayakoremo ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa, mu ndimi z'amahanga bayita akabari cyangwa bale. Hari ibinyobwa biri mu macupa, ndetse ibindi bikaba biteguye mu birahure bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye kandi imbere yabo hakaba hari ibyo kunywa. Hariho ikinyobwa cyitwa Amusiteri. Akenshi ahantu hameze gutya aba ari nko mu kabari, aho haba habera bikorwa byo gucuruza inzoga zisanzwe.

ameza ariho ibinyobwa, amacupa abiri ari ku meza n'ayo mu bwoko bw'inzoga yitwa primusi, andi abiri ni ayo mu bwoko bw'inzoga yitwa amster, impande y'ameza kandi hariho intebe z'umweru, inyuma yaho hakaba hari igikuta cy'amabuye.

Inzu y'ubucuruzi irimo igicuruzwa kitwa Karungi. Karungi ni ji abantu banywa ariko bakaba babanza kuyifungura kuko iba iryoshye cyane, barayafata bakongeramo amazi make kugira ngo babashe kuyinywa cyangwa se bakayinywera aho ngaho.

Inzu y'ubucuruzi irimo igicuruzwa kitwa sorwatomu cyangwa kirimo ibintu bigizwe n'inyanya. Akenshi igicuruzwa gishyirwa mu biryo kugira ngo bitukure kandi bigire uruhare nk'urwo inyanya zigira mu biryo.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amakawunga, imiceri, amavuta yo guteka, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, aho harimo n'umucuruzi uba witeguye kwakira abakiriya ngo abigurare, harimo imifuka myinshi, amakarito ndetse n'amavuta ari mu tuvido.

Inzu irimo igicuruzwa kitwa kamambiri. Aho izo kamambiri zifite amabara agiye atandukanye, harimo kamambiri y'umutuku n'umuhondo, hakabamo na kamambiri y'ubururu n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ni inzu itarimo ibicuruzwa byinshi. Hakaba harimo amandazi, ibikombe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni n'inzu icuruza ibyayi n'igikoma, imigati ndetse n'ibindi bitandukanye, abantu bakunda gufata mugitondo bagiye mu kazi.

Inzu y'ubucuruzi. Ibicuruzwa byinshi biri hanze. Ibicuruzwa birimo harimo gaze. Gaze nka kimwe abantu baza kugura ariko akazana icupa noneho akajyana irindi ririmo gaze. Haba harimo gazi y'ibiro bitandatu, cumi na bibiri, gukomeza kuzamura.

Inzu y'ubucuruzi zirimo igicuruza cyitwa amakayi. Amakayi ni kimwe mu bicuruzwa bikunda kugurwa n'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu baba bafite ibintu bagomba kwandika akenshi amaduka acuruza amakayi akunda kuba yegereye ahantu hari ibigo by'amashuri.

Inzu y'ubucuruzi cyane cyane bwibanze ku binyobwa. Harimo inzoga ziri mu mavide nka Pirimusi na Mitsingi, noneho hakaba harimo n'amaji, amavuta yo kwisiga, Kokokora ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda ndetse n'ibikapu, harimo kandi amakanzu baba bidodeye gu kukoma imbere harimo imashini, harimo n'umugabo urimo kudoda igitenge n'abakiriya baje guhaha ndetse n'abacuruzi.

Ahantu mu isoko hari ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha, harimo imineke voka, imyembe, ibinyomoro, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye aho abaturage baje kuzihaha ndetse n'abacuruzi barimo kuzibaha.

Ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye, harimo: ibikapu, imyambaro, imitako ndetse n'ibindi harimo n'ibikorwa n'abantu basanzwe nk'ibyo bateranya cyangwa bakarangura bakabyegereza abaturage kugira ngo babigure. Harimo n'umudamu ufite isahani arimo kurya.

Inzu y'ubucuruzi irimo igicuruzwa cyitwa amavuta. Aya ni amavuta yo kwisiga. Ni amavuta ari mu bwoko bwa gikotori ntago ari amavuta afungurwa cyangwa ay'amatembabuzi. Akenshi aya amavuta yitwa moviti kandi agakunda gusigwa abana bakiri batoya kugira ngo bagire uruhu rwiza.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa biri hanze ndetse n'ibindi biri muzu, imbere y'ubwo bucuruzi haparitse moto, ni moto iriho ibintu byaranguye harimo injerekani y'amavuta ndetse n'ibindi bikoresho biri mu mufuka kandi hari na kanadagiro ukarabe aho umuntu ugiye kwinjiramo nog ahahe abanza agakaraba.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye. Hari ibirimo imbere mu nzu ndetse n'ibiri hanze. Harimo ibicuruzwa nk'indobo, harimo amakarito atandukanye arimo amabiswi ndetse n'ibindi bicuruzwa ndetse ku ruhande rwabo haparitse moto.

Abantu benshi bari mu rusengero, abigisha babo umwe afite icyapa cyanditseho gerayo amahoro, ari kimwe mu bikorwa na Polisi cyane cyane ikangurira abantu cyangwa ikora ubukangurambaga kugira ngo abantu bakore urugendo kandi bagereyo amahoro, cyane cyane harimo kwirinda gutwara wasinze cyangwa gutwara wihuta cyane kugira ngo hirindwe impanuka.

Inzu y'urusengero, ni urusengero rwubatse neza kandi ruri mu marange y'icyatsi, imiryango iteye amarange y'umweru rurakinguye. Nta zindi nyubako zegereye uru rusengero ahandi hari ubutaka nta nubwo hari amapave.

Urusengero rwiza cyane ni urusengero rwubatse mu matafari ahiye ndetse rukaba rusakaje amabati y'umutuku, harimo jaride nini y'indabo zikura ntoya izindi zikaba zarakuze zikaba ndende. Ni ahantu abantu bajya bakahahurira bagasenga bagasingiza imana bakanabyina.

Urusengero runini cyane. Ni urusengero rwubatse mu matafari ahiye ndetse rukaba rusakajwe n'amabati y'umutuku. Imbere yaho haparitse imodoka z'umukara ndetse n'abantu baje gusenga benshi bari imbere yarwo.

Abantu batandukanye, bari mu nyubako yakitwa nk'urusengero. Harimo abambaye amakote ndetse n'abatayambaye abahungu n'abagabo. Harimo abafite ibyo bavugiramo kugira ngo bivuge cyane byitwa mikoro, bameze nk'abari guhimbaza Imana imbere ku ruhimbi.

Abadamu bambaye imyenda itandukanye bari ahantu bameze nk'abarimo kubyina cyangwa gutambira imana cyangwa kuririmbira imana, ni ahantutu hatari mu rusengero ariko hateguye neza nk'ahantu habereye ikirori cyangwa amasengesho, ni abadamu barindwi bari imbere barimo kubyina.

Abantu benshi harimo abadamu. Abagabo n'abana. Bari mu rusengero barimo gusenga. Imbere yaho hari umuntu upfukamye nawe urimo gusenga. Bifashe neza nk'abantu basengera mu idini ry'aba Catholic.

Abantu benshi bari mu rusengero. Bari ahantu hamwe, bamanitse amaboko hamwe, abandi bameze nk'abari gusenga bahumirije. Barimo kuririmba cyangwa gutambira Imana bari mu rusengero, aho batuje cyane, abandi barimo kuririmba, abandi basenga.

Abantu bari mu rusengero kandi bambaye neza harimo abakobwa bambaye amakanzu y'umutuku n'abasore bambaye amakote n'ama karuvati umudamu umwe afite Bibiliya cyangwa igitabo cy'indirimbo abari imbere kandi bari mu rusengero bari mu muhango wo gutaha no kwegurira Imana urusengero.

Abantu bari mu rusengero. Harimo abayobozi b'itorero cyangwa abantu bambaye amakanzu nk'abayobora urusengero. Noneho imbere yabo hari abantu bafite impapuro nk'igihembo cyangwa icyangombwa bahawe n'abayobozi b'itorero. Ni imiryango ine: umugore n'umugabo, umugore n'umugabo kandi umuryango umwe ufite n'akana kakiri gatoya imbere.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza kandi bukaba buriho n'imisego. Ni icyuma kiri ahantu hisanzuye, aho akenshi bikorwa nk'inzu zikodesha amacumbi nka hoteri ndetse na moteri. Aho umuntu aza akararamo maze akishyura.

Inzu ndende yigeretse rimwe ifite igipangu cyiza kandi ku ruhande hari n'indabyo zigiye zitandukanye ni inzu akenshi ubu usanga ari iy'umuntu yiyubakiye kugira ngo abemo cyangwa yarayubakiye kugira ngo ibe iy'amacumbi age acumbikiramo abantu bamwishyure byakitwa nka hoteri cyangwa moteri.

Ibiryo biteguye neza akenshi ibi biryo bitegurwa n'abantu babyigiye, bikunze kuboneka ahantu bacuruza ibiryo nko mu mahoteli, cyangwa mu tubari tucgiye dutandukanye cyangwa ahantu habaye ibirori nk'ubukwe hakaba ubusabane.

Ahantu hateguye neza, aho haba harimo ibintu abantu bifashisha mu gitondo. Harimo nk'icyayi cyangwa kofi. Akenshi bikunda gukoreshwa ahantu habaye nk'ikirori cyangwa habaye ibindi bikorwa bitandukanye, kandi nanone bikunda kuba biri ahantu nko mu mahoteri.

Ahantu heza hari kwaka amatara ndetse harimo naho abantu bojyera, amazi y'ahantu bogera arimo gusa ubururu, amatara amuritsemo asa ubururuu, ni ahantu heza hameze nk'ahatangirwa amacumbi cyangwa nk'ibubari cyangwa ahantu banywera inzoga

Inzu nziza iri mu marangi y'umuhondo n'irindi rangi rijya gusa umweru. Ni inzu igeretse rimwe, hasi hari indabyo nziza cyane. Ni inzu iri mu bwoko bugaragara ko ishobora kuba icuruza ibicuruzwa biba bitandukanye: nk'inzoga, amacumbi cyangwa ibyo kurya yakitwa nka hoteli cyangwa moteli.

Inzu nziza cyane kandi n'inyubako nini yakitwa nka hoteli cyangwayin indi nyubako itanga serivisi zigiye zitandukanye. Ni ahantu abantu binjirira aho ubanza kwinjira babashe bababanjije kugusaka hari ahantu hanyura ibikoresho hari n'ahanyura umuntu gusa, hari n'abashinzwe umutekano bicaye.

Salo irimo ibikoresho bitandukanye, ahantu abantu bicara cyangwa hakunze kwitwa mu ruganiriro, harimo intebe zijya gusa umukara ndetse n'imisego kandi hari n'ameza y'ikirahure aho hariho ururabyo ruri mu mabara y'icyatsi n'umweru, ni ahantu hateguye neza abantu bajya bakaganirira.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho bikunda kugaragara mu nzu aho bita mu ruganiriro, harimo intebe nziza aho abantu bicara bakaganira, ndetse imbere y'intebe hari ameza, hari n'izindi ntebe ziri mundi bwoko zikunda guterekwa ahantu ku meza, abantu bakunda kurira.

Inzu iri ahantu heza igeretse. Ni inzu iri mu marange atandukanye y'umuhondo weruye, ndetse n'umuhondo usanzwe. Hari indabyo impande zaho hateye indabyo. Ni ahantu hatangirwa bimwe mu bicuruzwa nk'ibiryo, cyangwa ibyo kunywa ndetse n'amacumbi.

Ibiryo cyangwa ibiribwa biteguye neza ni ahantu hameze nko muri resitora cyangwa muri hoteri abantu bajya bakajya kurya, ibiryo birimo inyama ndetse n'imboga kandi imbere yaho bafite n'icyo kunywa kiri mu bikoresho by'ibirahure.

Icyumba kirimo uburi bushashe neza. Harimo imisego ibiri. Bivuzeko haryama abantu babiri cyangwa umwe. Ni ahantu haba hari uburiri akenshi bukunda gukodeshwa nko muri hoteri cyangwa muri moteri. Aho umuntu ajyamo yaturutse kure cyangwa ashaka kuruhuka akishyura amafaranga noneho akararamo.

Inzu ndende igeretse inshuro nyinshi ni inzu nziza ifite igipangu cy'umukara cy'umuryango w'umukara kandi ni inzu isa nk'itangirwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'inzoga cyangwa ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'amacumbi, bene izi nzu zikunze kwitwa cyangwa uwo mushinga witwa hoteli cyangwa moteli.

Ahantu mu cyumba hashashe neza. Ni uburiri buriho n'umusego, impande yaho hari intebe ndetse n'ameza. Amatara abiri imbere y'umusego kandi ni ahantu heza hateguye neza. Akenshi hakunze kuba hari ahantu batanga amacumbi, aho umuntu yishyura ahahanga akaharara, nk'ahantu muri hoteli cyangwa muri moteli.

Ahantu heza hari ikirere cyiza, ni inyubako yegereye inyanja cyangwa ikiyaga, aho umuntu uhicaye aba yitegereza ikirere cyiza ndetse n'ikiyaga cyiza, hari intebe abantu bicaraho barimo kwitegereza hakurya mu mazi, iyi nyubako iba iri ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye nk'akabari, amacumbi ndetse n'inzoga.

Inzu nziza ku ruhande rwaho harimo indabyo zigiye zitandukanye n'amapave imbere mu muhanda n'inzu igeretse rimwe, inzu nziza itangirwamo serivisi za hoteli cyangwa moteri harimo gutanga amacumbi, amafunguro ndetse n'ibyo kunywa.

Uburiri bushashe neza kandi hariho imisego, ni icyumba kandi gifite na supanete ari kimwe mu birinda Malariya cyangwa imibu, bene ibi byumba bimeze gutya bikunda kuba biri ahantu batanga amacumbi noneho umuntu akishyura akaharara, hakunze kuba ari nko muri hoteli cyangwa mu kabari.

Inzu icuruza inzoga. Ni inzoga z'amoko atandukanye harimo izitwa za mitsingi, amusiteri ndetse n'izitwa za likeli ziba zifite ubukana bunini. Mo imbere mu nzu harimo umucuruzi ushinzwe gutanga ibyo bicuruzwa. Izo nzoga kandi harimo iziri mu mashini ishinzwe kuzikonjesha ku bakunda izikonje, ndetse n'izindi zitari muri iyo mashini.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko cyangwa aho bacururiza, harimo abafite imyambaro bari kuyizunguza harimo amasutiya y'abadamu ndetse n'iyinindi myenda irimo baratandukanye, harimo abakiriya n'abacuruzi, harimo n'abandi kandi bacuruza inkweto hirya, mu nzu ndetse n'iyindi myenda itandukanye, haparitse imodoka ku ruhande kandi ni abantu benshi.

Uu isoko aho bacururiza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibicuruzwa nk'ibikombe, amabasi, ndetse n'imifuka. Mu bikombe harimo ibikombe bisa ubururu, umutuku, ndetse n'icyatsi, n'amabasi gutyo. Harimo amabasi asa umutuku n'icyatsi n'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, harimo rwo kugenda n'amaguru, abandi bari kuri za moto kandi n'ahantu habera ubucuruzi butandukanye, aho harimo imitaka y'ikigo cya MTN, aho batanga ibicuruzwa bya MTN nk'amanete ndetse n'ibindi kandi hari n'amazu menshi atandukanye, aberamo ubucuruzi bugiye nabwo butandukanye.

Abantu benshi batandukanye bari mu isoko. barimo gucuruza harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi. Abantu bari gucuruza imyenda ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umudamu ufite ibicuruzwa by'imboga, bimwe abifite mu ntoki ibindi biri ku gikoresho abitwaramo. Ibyo bicuruzwa by'imboga harimo karoti, intoryi ndetse n'inyanya, aho umubyeyi agenda akabirangura noneho akagenda abitembereza mu baturage kugira babigure cyangwa akicara ahantu hamwe bakahamusanga kugira ngo babigure.

Abantu barimo kugenda abandi baraza, ni ahantu habera ubucuruzi. Umudamu umwe n'umugabo barimo kugenda umwe afite umufuka ameze nk'uwahahiyemo ibintu, ni umufuka ujya gusa icyatsi, abandi bantu bari inyuma yabo bahugiye mu turimo twabo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, harimo abafite ibicuruzwa mu ntoki bari kugenda bacuruza ndetse hari n'abandi babimanitse bahagaze bategereje abakiriya, ni abantu benshi kandi begeranye bari mu isoko rimwe, harimo abakiriya ndetse n'abacuruzi.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abikoreye ibicuruza, abahetse abana ndetse n'abandi, bafite ibicuruzwa bijya bitandukanye. Ni ahantu hari ubucucike bw'abantu benshi kandi bari mu isoko. Hari ahandi hari imyenda imanitse abantu barimo kugenda bagura ndetse n'ibindi bitandukanye harimo abacuruzi n'abaguzi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga. Harimo: inyanya, ubutunguru, imiteja pavuro ndetse n'ibindi. Aho harimo abadamu barimo gucuruza ibijyanye n'izo mboga ndetse hakaba harimo n'abakiriya barimo kuzigura. Ni ahantu hari isoko ryabugenewe ririmo ibicuruzwa by'imboga.

Abantu bari mu isoko barimo gucuruza ibicuruzwa akenshi byaturutse mu buhinzi, bafite umunzani ndetse n'igiti bifashi bapima ibiro byavuye muri icyo gicuruzwa kugira ngo bamenye amafaranga bishyurwa, ni abagabo babiri inyuma yabo hari amagare ndetse n'imifuka myinshi iteretse ku ruhande.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu hari inzu zitandukanye z'ubucuruzi bimwe mu bicuruzwa biri ahantu harimo matera, indobo, intebe, ndetse n'indi byari bitandukanye harimo abantu benshi barimo kubihaha ndetse n'abacuruzi ni ahantu hameze nko mu mujyi.

Urujya n'uruza rw'abantu. Ni ahantu habera ubucuruzi aho hari amazu akinguye n' ibicuruzwa bitandukanye harimo abacuruza ibicuruzwa bya sosiyete zishinzwe itumanaho, imodoka irimo gupakurura imyaka, abamotari ndetse n'abandi bantu barimo kugenda.

Imashini idoda imyenda. Akenshi imashini zidoda imyenda, zikoreshwa n'abadamu cyangwa abagabo babyigiye. Aho umuntu ashobora gutera imashini ahantu ku muhanda cyangwa ku nzira kugira ngo umuntu ufite imyenda yacitse abashe kuyidodesha.

Abantu benshi ariko bari kugaragara nk'igice cy'amaguru gusa, hari n'ibasi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: ibibiriti, indodo zidota imyenda, akayunguruzo, indorerwamo, amavuta ndetse n'ibindi, aho umuntu abicuruza atagombye kuba afite inzu acururizamo ahubwo akabigendana nk'umuzunguzayi.

Ameza ariho ibiribwa bigiye bitandukanye hariho imbogagurisho ndetse n'imbuto kandi imbere yaho hari n'igikombe kirimo icyo kunywa ndetse n'ikirahure kirimo icyo kunywa cy'umutuku, akenshi ameze ateguye gutya akunda kuba ari ahantu bacuruza ibiryo nko mu maresitora.

Abantu bicaye mu itsinda, ni abantu benshi kandi ku meza bicayeho harimo icyo kunywa kigiye gitandukanye kandi ni ahantu bari hatangirwa amafunguro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Kaburimbo irimo moto eshatu izo moto kandi zitwaye abagenzi, nta bindi binyabiziga birimo usibye izo moto eshatu kandi ku mpande zaho hari inzu z'ubucuruzi, aho hari abantu batandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye. Moto zose ziri kugenda mu kerekezo kimwe.

Kaburimbo irimo umuntu utwaye moto. Moto imwe irikumanuka indi iri kuzamuka, umuntu utwaye moto amanuka afite akantu ahetse inyuma kuri moto. Indi moto iri kuzamuka ihetse umuntu umwe wambaye umupira w'umutuku kandi imaze kurenga aho abanyamaguru bambukira. Nta kindi kinyabiziga kirimo ni izo moto ebyiri gusa.

Umugabo uri ku igare, bari mu muhanda w'igitaka kandi ahetse umudamu ndetse ku igare hariho imihini miremire, imeze nk'iyhambiyeho amasuka cyangwa ikindi kintu barengana.

Umuntu utwaye igare mu muhanda wa kaburimbo, harimo imirongo itambitse y'umweru hafi y'aho hari amazu asize irangi ry'umweru

Umuntu utwaye moto, akora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, imbere ye kandi hari imodoka ziparitse, izi moto atwaye ni zimwe zidakoresha moteri, ahubwo iyi moto ikoresha batiri, aho bisaba kuyijyana kuyishyiramo umuriro kugira ngo ibashe gukora.

Umuhanda w'amabuye harimo umuntu utwaye moto. Nta kindi kinyabiziga kirimo kandi nta n'umuntu ahetse. Kasike imwe yayishyize imbere iyindi arayambaye. Ahetse n'igikapu ku ruhande. Inyuma ye hari ahantu hari inzu iriho ibyapa by'umweru kandi n'amatente ari inyuma ye.

Umuntu utwaye moto ari muri kaburimbo wenyine ikindi kinyabiziga kiri imbere cyane ahantu hameze nk'ahaterera, moto nta kintu ahetse ni umumotari wenyine kandi nta n'abanyamaguru bari guca mu nzira y'abanyamaguru kaburimbo yari ahantu heza kandi umumotari atwaye yisanzuye.

Ikinyabiziga cyitwa moto umumotari atwaye umugenzi, atwaye moto zimwe zidakoresha moteri, aho imoto atwaye ikoresha batiri kugira ngo iyi batiri ikore bisaba ko bayicaginga ikajyamo umuriro.

Ikinyabiziga kitwa moto giparitse, hariho umuntu umwe kandi giparitse ahantu hari amapave, ni umuntu umwe wicaye kuri iyo moto kandi ntago moto irimo kugenda, inyuma y'iyo moto iparitse hariyo inzu iri mu marangi y'umweru ndetse n'umuntu wegamyeho, umuryango umwe urakinguye undi ntabwo ukinguye.